Isoko riremeramo ibijyanye n'inyama ziva mu mazi, ubona ko hari isambaza ziri mu mabase atandukanye hakaba n'amafi ubona ko ari byabindi byo kurya ariko biva mu mazi.

Hano hari imbuto, zateguwe ziri ku ntara harimo: avoka, ndetse n'imineke, urabona harimo imineke yariweho, hakaba na avoka bakase.

Ibihingwa by'ibijumba ubona ko ari ibijumba biteye ipfa bisu umutuku ni ibijumba byiza abantu bateka bigafufuka biryoha cyane. Ibijumba bikunze kuba mu imisozi.

Ibihingwa bihingwa n'aborozi ,ubona ko ari ibigori bikiri bitoya, bihinzwe ku gitaka cy'umutuku ibyo bita urwondo, ubona ko bihinzwe mu misozi harimo ibigori ndetse n'ibiti.

Ba mukerarugendo, ibihingwa bitandukanye. Harimo ibirayi, ibikebo, ndetse n'ibindi. Hari abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abakobwa.

Ubworozi ubona ko borora ingurube, yabwaguye utwana dushaka konka ingurube nayo, urikubonako irimo kutwonsa abona ko ari ibintu byiza cyane cyane bite amabengeza, kubireba ukabona yabyaye utwana twinshi buri kana kari ku ibere ryako.